Ababyeyi b'abamama basheshe akanguhe bateze udutambaro mu mutwe bari imbere y'uwabihuguriwe bafata ibipimo ngo arebe umuvuduko w'amaraso yabo.

Umwana muto w'umukobwa, afite agacupa ka parasitike mu ntoki, ari mu nzu yubakishijwe amatafari uruhande rumwe ahiye, ku rundi ruhande adahiye.

Ivomero ryagenewe guha abaturage amazi meza, abantu urujya n'uruza bararigannye barimo bararekwa ukuntu aya mazi afungurwa ndetse n'ukuntu afungwa igihe barangije kuyakoresha, abantu baje bitwaje ibikoresho byo gutahanamo amazi.

Abaganga babiri bambaye impuzankano zo kwa muganga bari kwita ku muntu waje abagana bamusuzuma ngo barebe ko adafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso.

Amashusho meza akeye ariho abantu bari guseka, umugabo arimo arakorera umwana ijerekani irimo amazi, iyo jerekani ikaba yantseho amagambo UNICEF.

Umugezi utemba, ukikijwe n'udusozi, umugore yaje kuvoma, yubitse injerekani mu mugezi, arimo aravoma, iruhande rwe kandi hari umugabo, nawe waje koza igare.

Mu cyumba mberabyombi byicayemo abantu benshi batandukanye, harimo n'abahagaze, muri iki cyumba kandi hari kuberamo ibiganiro, ku ngingo y'ibijyanye n'ubuzima.

Umubyeyi wambaye imyenda ikozwe mu bitenge, akikiye umwana afite n'impapuro zo kwa muganga, inyuma ye hari abandi benshi bitabiriye serivisi zitangirwa kwa muganga.

Abantu batandukanye bicaye mu ihema, bateze amatwi amahugurwa bari guhabwa n'umugore ufite indangururamajwi mu ntoki, ababwira ibijyanye n'ibyorezo ndetse n'uko bagomba kubyirinda.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo abantu batandukanye, abarwayi ndetse n'abaganga, hari umuganga uri gutera urushinge, umubyeyi wambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero mu mutwe.

Umubyeyi w'umugabo ndetse n'umugore, baje kwa muganga. Umugabo ateruye umwana we, barimo barasobanurira abaganga ibibazo by'umwana, abaganga babateze amatwi, barimo bagerageza gufasha ababyeyi gusobanukirwa n'ikibazo umwana yaba afite.

Aha ngaha hayungururirwa amazi. Aya mazi akazoherezwa mu bice bitandukanye bigize uyu mujyi. Inyuma yaho turahabona amazu, aya mazu ni yo arimo imashini zizafasha kino kigega tubona kuyungurura aya mazi.

Ikigega kinini cyagenewe gutunganya amazi, gikikijwe n'amatara akimurikira, ndetse hirya gato yacyo hari amashyamba.

Mu cyumba mberabyombi hari kuberamo inama, iki cyumba kirimo idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, kikaba kicayemo abantu batandukanye, abirabura ndetse n'abazungu, abagabo ndetse n'abagore.

Umuganga wambaye udukoresho tumurinda kuba yakwandura arimo araha urukingo umuntu waje amugana, amutera urushinge rwo ku kaboko.

Mu cyumba cy'inama gitatsemo ibitambaro byijimye, abantu bicaye imbere bateguriwe amazi yo kunywa ndetse biteguye gutanga ikiganiro.

Umukeka, ababyeyi bakikiye abana, bicaye bari kwitabwaho n'abandi bantu, b'abajyanama b'ubuzima, bari kugenda bagaburira abana.

Ku ivomero ririho amavomero abiri, rimwe amazi arimo arameneka hasi, irindi umwana yatezeho ibikombe, anejejwe cyane no kureba uburyo amazi ari kwinjira mu gikombe cye.

Umugabo ndetse n'umwana bambaye imipira y'ibara risa, umwana ateretse ku munzani bari gupima ibiro afite. Umusore umufite kandi wambaye amadarubindi, ategereje kumva no kubwirwa ibiro by'uyu mwana.

Ishusho igaragara nk'aho yafatiwe mu kirere, irimo abantu batandukanye bicaye, ndetse n'abahagaze, ababyeyi bateruye abana, baje kubahesha inkingo zitandukanye,

Imbere y'inyubako y'ihuriro mu cyumba cyanditseho gira ubuzima hari abantu batandukanye, abagabo ndetse n'abagore bitabiriye ibiganiro ku bijyanye n'ubuzima.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo abaganga bambaye impuzankano yo kwa muganga ndetse n'udupfukamunwa, harimo kandi umuntu waje agana aba baganga kugira ngo ahabwe urukingo.

Ku ivomero umugore arimo arapompa amazi, umwana w'umuhungu nawe ateza ijerekani ku ivomero irimo irajyamo amazi, abantu batandukanye bari gukurikirana uko icyo gikorwa kiri gukorwa.

Mu rugo rw'umuturage harimo insina ndetse uru rugo rurazitiye, harimo kandi agatanda kubitseho amasahani ndetse n'ibikombe, ni uburyo mu cyaro bifashisha batunganya ibikoresho bariraho.

Ku iriba hari umugabo ufite ijerekani, aje kuvoma amazi meza, arishimye rwose arimo araseka, asekera umuntu uri kumufata amashusho.

Abantu hatandukanye abagore, abagabo, bazanye abana kubahesha ikinini, bamwe kandi bitwaje amakaye, barimo barandika ibijyanye na gahunda y'umunsi.

Umubyeyi w'umugore wicaye ku ntebe akikiye agahinja, yakararamishije, umugangakazi arimo arakasamura agashyira umuti mu kanwa.

Ku iriba ry'amazi meza atunganyije hari abagore batatu, umwe ari gusoma amazi yifashishije ibiganza bye undi nawe ari gukaraba intoki, hari n'undi kandi uri kwitegereza iyo bari gukora, abagore bitwaje n'amajekani baza gutwaramo amazi yo kunywa.

Ni mu cyumba k'inama ndetse n'amahugurwa, hari kubera ibiganiro ku bijyanye n'ubuzima, umugabo wambaye amadarubindi mu maso ndetse na kositime, ahagaze imbere, arimo aratanga ikiganiro.

Umugore wikoreye indobo, atengase iyindi mu ntoki, uyu mugore akenyeye igitenge, arimo arava ku ivomero, yerekeza mu rugo.

Abantu batandukanye, abagabo, abagore, urubyiruko ndetse n'abasheshe akanguhe bitabiriye amahugurwa ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe. Basoje amahugurwa bafata ifoto uko bari bari kumwe bose.

Umugabo ukuze cyane rwose, afite agahinda kenshi mu maso, arimo ararira, amarira aratemba ku matama, ibimyira birashoboka biva mu mazuru bishoka ku munwa.

Umupira w'ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, inyuma mu mugongo handitseho ibirango, ndetse n'amagambo yanditseho CHOGM, ni numupira wagenewe kwambarwa n'abantu bateguwe kujya muri CHOGM.

Ku rwibutso rw'abazize Genocide, hari urutonde rw'amazina y'abahaguye, umugabo yaje kunamira abazize Genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda azanye indabo.

Umubyeyi urimo guseka ahetse umwana ndetse n'undi amuhagaze iruhande arimo arashigisha igikoma kugira ngo abashe kugaburira abana ari mu nzu kandi y'ibyondo.

Umugabo wambaye ubucocera witangiye itama apfutse mu mutwe n'ingofero, yegamiye igikuta nacyo gisa nabi, afite amazi mu ntoki, amazi afunyitse mu ishashi.

Umubyeyi uri kureba, inyuma ye hari inzu y'amategura, yikoreye agatebo karimo ibijumba, bigaragara ko avuye gukura.

Mu cyumba kinini cyagenewe kwakira abantu benshi, harimo abantu bicaye bateze amatwi, igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bari kwiga ku bibazo byo mu mutwe.

Ikibuga kisanabi kirimo ibitaka ari umukecuru wicaye imbere ye hari akabando ndetse n'amacupa abiri akaba afite ibintu mu ntoki bisa nk'imboga inyuma ye kandi hari rujya n'uruza rw'abantu bamwe baricaye abandi barimo baragenda.

Abantu urujya n'uruza, baje kumva ibijyanye n'indwara zo mu mutwe, imbere hari abandi, umuganga ndetse n'uwaje amugana, arimo aramusobanurira ku bijyanye n'indwara zo mutwe.

Abantu benshi, abagabo n'abagore, bamwe barahagaze, abandi baricaye, nyuma yo guhabwa amahugurwa n'ikigo cy'igihugu gizwe ubuzima, barimo barafata ifoto y'urwibutso.

Aba bantu bari gutanga amabwirizariza ndetse n'ubujyanama ku bijyanye n'ubuzima, umwe muri bo yafashe ijambo arimo aravuga atunga agatoki abantu, abandi na bo kandi bamuri inyuma bakurikiranye ibyo mugenzi wabo arikubwira abantu.

Akana gato k'agakobwa kishimye, kari kurya ibisuguti kicaye ku ntebe ndetse imbere yako hari ameza, kitegereza umuntu uri kugafata amashusho.

Ishusho yafashwe n'icyuma cyabugenewe cyo kwa muganga. Ni ishusho igaragaza mu kanwa k'umuntu, turabonamo amenyo yose yakabaye, tukabonamo n'ibindi bice byo mu kanwa k'umuntu.

Mu cyumba cyubakishijwe amahema, harimo abaganga bari kwita ku barwayi, bibanda cyane cyane ku burwayi bw'amenyo. Umuganga arimo arasuzuma umukobwa areba ko yaba afite ikibazo mu kanwa ke.

Mu cyumba cyo kwa muganga cyagenewe kwakira abarwayi bafite ibibazo by'amenyo, harimo agatanda umurwayi aryamaho igihe muganga ari kumusuzuma ndetse n'agatebe muganga aba yicayeho igihe ari gusuzuma umurwayi. Harimo kandi n'amamashini atandukanye yifashishwa na muganga uri gukura cyangwa se uri kuvura amenyo.

Umwana w'umukobwa afite ikibazo cy'amenyo, yagannye muganga, muganga yamwasamishije afite n'akuma mu ntoki, arimo arareba ikibazo yaba afite mu kanwa.

Abantu batatu abagabo babiri ndetse n'umugabo umwe, umugore afite imisatsi myiza bari kuvuga inkuru ishimishije kubera ko bose barimo baraseka, umugabo yafunze ibipfunsi iyi nkuru bavuga ngira ngo harimo imirwano.

Mu ivuriro rivura amenyo, umukobwa yaje arigana, bamwicaje ku gatanda kabugenewe, bamuhereza indorerwamo, arimo arireba uburyo amenyo ye yabaye meza nyuma yo kuyoza.

Hari gutangwa ubujyanama ku bijyanye n'isuku y'amenyo, bageze mu kigo cy'ishuri, mwarimu arimo arigisha umunyeshuri uko isuku y'amenyo igomba gukorwa.

Umubyeyi n'umugore ndetse n'umukobwa we, n'utwambaro duciye amaboko; umubyeyi ari kwigisha umwana we mu buryo bakora isuku y'amenyo.

Umugabo w'inzobe wambaye amadarubindi, yamwenyuye cyane agaragaza amenyo hafi ya yose, arimo areka abantu uburyo kugira isuku y'amenyo ari byiza.

Mu cyumba kivurirwamo abarwayi bafite indwara y'amenyo harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura amenyo, harimo kandi intebe muganga yicaraho avura ndetse n'indi ntebe imeze nk'igitanda umurwayi aryamaho igihe muganga ariko kumuvura amenyo.

Ubusitani bwiza, umugore usheshakanguhe, bigaragara ko ashaje yicaye ku gasambi arimo arakora imyitozo ngororangingo ahese umugongo.

Umuganga ndetse n'umukecuru ukuze bafatanye mu biganza, muganga afite akuma bapimisha umutima mu ijosi, arakitwaje, umukecuru na we wambaye amarinete arimo ararebana na muganga basa nkaho bari kuganira.

Abagabo babiri basheshe akanguhe, umwe afite agacupa k'amazi mu ntoki, bari mu gukora imyitozo ngororangingo, baranezerewe cyane rwose baraseka inseko nziza

Umusaza ushesha akanguhe ufite imvi mu mutwe arimo araseka, yambaye n'ishati y'amabara, bicaye mu cyumba cyo kuriramo, ari kumwe n'undi muntu bari guseka basangira amafunguro.

Umusaza usheshe akanguhe, wambaye amadarubindi, yicaye ku gitanda ari gufashwa n'umuzungukazi guhahaguruka ku buriri ngo abone uko ajya hanze.

Umusaza w'umusheshe akanguhe, yicaye mu busitani ku ntebe, yambaye agapfukamunwa. Umukobwa ukiri muto w'umuganga amusutamye imbere, arimo aramufungira igipesu cy'ishati ye.

Mu ihema abantu batandukanye, abakuze basheshe akanguhe ndetse n'abandi bakiri bato baricaye, abajyanama b'ubuzima barimo barabaganiriza ndetse babaha n'imiti itandukanye.

Mu nzu irimo abasheshe akanguhe, abagore ndetse n'abagabo, barimo bararya ibiryo bigaragara ko byoroheje, uwo mugabo umwe uri kuganira n'umukecuru yicaye mu kagare kagenewe kwicarwamo n'abantu bafite intege nke barwaye, inyuma ye hari umuhungu ukiri mutoya uri kumusunika.

Umukecuru usheshe akanguhe ari kumwe n'umukobwa we ndetse n'umwuzukuru we, bamaze kurya, barishimye rwose baravuze bati "reka dufate agafoto."

Mu murima urimo imyaka itandukanye itoshye haragaragaramo ibigori ndetse n'ubundi bwoko bw'imboga, harimo kandi abantu bari kuramukanya basuhuza bamanitse ibiganza ababyeyi b'abagore ndetse n'abagabo bishimye cyane rwose.

Abantu batandukanye bicaye bakoze uruziga, bamwe bicaye ku ntebe ndetse abandi bicaye hasi munsi y'igiti kinini cyane, barimo gukora inama ku bijyanye n'imyitwarire.

Mu cyumba cyo kwa muganga, umuganga ndetse n'umurwayi, amashusho yabo ntabwo agaragara neza, ariko hari imashini irimo gupima umuvuduko w'uyu mugabo urwaye uryamye.

Hari ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abafite ubumuga bw'ingingo, hari udutebe two kwicaramo tw'abana batoya ndetse n'abakuze, hari kandi n'imbago bifashisha mu gihe bari kugenda.

Umurwayi wicaye afite ikirahuri cy'amazi mu ntoki, imbere ye hari umuganga waje kumwitaho mu rugo iwe, ari kumuha imiti.

Umugabo wasetse bigaragara ko yishimye rwose, yambaye umupira uciye amaboko w'amabara y'ubururu ndetse n'umweru imbere ye hari undi muntu bafitanye ikiganiro umuteze amatwi.

Abagabo babiri, mu gahanda gakozwe n'utubuye, gakikijwe n'utwatsi, bari kugenda bafatanye ku rutugu, baganira. Barishimye rwose, urabona ko bari mu kiganiro gishimishije.

Umusaza n'umukecuru basheshe akanguhe barimo barafata imiti, umugabo arimo arareba iyo agomba gufata kandi umugore we arimo arabimufashamo.

Ishusho iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, yanditseho amagambo ari mu nyuguti zandikishijwe ibara ry'umweru. Handitseho umubare gatatu n'amagambo agira ati:"Ubuzima bwiza n'imibereho myiza". Hakabaho ishusho yindi igaragaza uko umutima utera ndetse n'agashusho k'umutima.

Mu cyumba cyo kwa muganga cyagenewe kwakira indembe, harimo abaganga benshi bitaye ku murwayi umwe urembye cyane, bagerageza kumwongerera umwuka.

Mu cyumba mberabyombi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane hari kubera ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima abantu bamwe bicaye bateze amatwi abandi bari imbere bari kubabwira ibijyanye n'ubwo bushakashatsi.

Mu nzu mberabyombi, abantu bamwe baricaye, abandi bari kubyina imbyino gakondo nyarwanda, hari kandi ikirango kigaragaza ko ari ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kiri kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida, mu mwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Ishusho iriho ingamba ndetse n'uburyo leta yashyizeho mu kurwanya igwingira muri gahunda ya leta yo kurwanya igwingira icyiciro cya mbere.

Icyapa cy'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima hariho amashusho atandukanye, umuntu uri gutanga urukingo, ndetse n'amagambo yanditseho agira ati: "kwikingiza urukingo rwa covid cumi n'icyenda birizewe kandi birinda ubudahangarwa bw'umubiri."

Ishusho y'umugore iriho amagambo yandikishijwe inyuguti zitukura ku munsi mpuzamahanga w'ubuzima yagize ati covide cumi n'icyenda yasize icyuho gikomeye mu bijyanye n'ubuzima, agira ati: "Kandi kuba washora mu nyubako z'ubuzima ni ingenzi ku isi muri rusange".

Ababikira batatu bari kumwe na minisitiri ushinzwe ubuzima mu Rwanda, baje kwitabira nabo, amahugurwa ajyanye n'ubuzima yateguwe na minisiteri y'ubuzima.

Abantu batandukanye, igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, abazungu ndetse n'abirabura, abashinzwe umutekano barimo barafata ifoto, nyuma yo guhabwa amahugurwa.

Igishushanyo kiriho amashusho atandukanye, abari gutunganya ubusitani, abaganga bari kuvura ndetse n'abandi bari gukora ubukorikori, hari icyapa kandi kiranga ibikorerwa aha hantu.

Mu cyumba gisakaje ibikoresho gakondo, ntago gifunze, kirimo ibikoresho byagenewe abakora imyitozo ngororangingo.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, hari amamashini meza menshi agezweho, ateretse ku meza. Aya mamashini akaba yaragenewe abaganga kugira ngo ajye abafasha kwita ku barwayi.

Icyapa cyanditseho amagambo, aranga ko hari vuriro ryakira abarwayi batandukanye bo mu gace ka Huye. Iri vuriro rifite inyubako isakaje amabati y'ubururu ndetse rikaba ryubakishije amatafari ahiye.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo abantu batatu ndetse n'amamashini bifashisha abaganga babiri m warimu arasoma igitabo ubundi anteze amatwi umurwayi afite igitabo n'ikaramu arimo arandika' iby'uyu murwayi waje amugana ariko kumubwira.

Ni icyumba cyo kwa muganga harimo intebe nyinshi, abantu batandukanye bagana kwa muganga bicaramo, igihe bategereje ababafasha. Muri iki cyumba kandi harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye bigaragaza ko ari ibyo kwa muganga.

Mu cyumba cyo kwa muganga umuganga w'umugore yambaye agapfukawa, ari kwita ku murwayi waje amugana, yamwicaje ku gatebe muganga nawe yicara ku kandi, aramufata ibipimo bitandukanye kugira abone uko umenya icyo arwaye.

Ivuriro, hari inyubako zitandukanye, ingufiya, izubakishijwe amahema, ndetse n'izigeretse, imbere y'inyubako yagenewe kwakira abana bato, hari urujya n'uruza rw'abantu.

Mu cyumba kinini amatara araka, baratwereka imiryango itandukanye yifashishwa nk'ivuriro, bakira abarwayi babagana.

Mu cyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, amamashini abaganga bifashisha bari gusuzuma abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gihe bari kuvura abarwayi.

Inzu y'amatafari ahiye, ifite idirishya rifite ikirahure ndetse n'amagiriyaje, ni inyubako ya leta, igenewe kwakira, abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Inyubako yo kwa muganga, icyumba kinini cyagenewe kubika ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororangingo irimo ibikoresho bitandukanye utugare ndetse n'ibindi bice bitandukanye byifashishwa mu gihe cy'imyitozo ngororangingo.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, abakozi bo kwa muganga bifashisha, harimo utumeza duterekwaho ibintu bitandukanye, intebe ndetse n'imeza yicarwaho n'umuntu uri kwakira abandi bantu baje bamugana.

Kwa muganga, umuganga w'umugore wambaye impuzankano y'abaganga, imbere ye hari ababyeyi babiri basheshe akanguhe, baje kwisuzumisha, kugira ngo barebe ko badafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso.

Inzu ni ihoto igenewe gukorerwamo ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti. Ni inyubako nziza igerekeranije imbere yayo ifite ubusitani butoshye.

Inyubako yo kwa muganga kwa Nyirinkwaya. Ni inyubako nziza y'amazu agerekeranye, imbere ifite aho baparika imodoka. Iyi inyubako yakira abarwayi batandukanye bafite n'uburwayi butandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga gicanyemo itara, harimo ibitanda byifashishwa n'umuganga igihe ari gusuzuma, harimo kandi n'ibindi bikoresho biterekwamo cyangwa se bibikwamo ibikoresho byo kwa muganga.

Mu kigo mberabyombi cyo kwa muganga, harimo n'abantu batandukanye biganjemo abagore, bitabiriye amahugurwa, imbere yabo hari umugabo uhagaze uri gutanga ikiganiro ndetse n'abandi bicaye ku meza imbere na bo bateganyijwe gutanga ikiganiro.

Inyubako nziza yubatswe mu matafari yagenewe abivuza bataha, ni inyubako iriho amadirishya manini ndetse n'umuryango wagutse.

Ku ivuriro rizitiwe n'urupangu runini rugizwe n'ibyuma ndetse n'amatafari ahiye, hari kandi n'ibyicungo abana batoya bagannye ivuriro bicundaho.

Ku bitaro bikuru bya Rwamagana, imbere y'inyubako y'ibitaro hari abantu batandukanye abazungu n'abirabura, abagore ndetse n'igitsina gabo, barimo barafata ifoto.

Icyumba cyakira abarwayi barembye kwa muganga kirimo ibitanda biriho abarwayi abaryamye ndetse n'abicaye. Ni icyumba kinini gifite amadirishya menshi ndetse gisize n'amarangi meza y'umweru.

Inyubako nziza y'ivuriro, yagenewe kuvura abantu bafite ibibazo by'amaso, kuri iyi nyubako ariho icyapa kigaragaza izina ry'iyi nyubako ndetse'icyapa kandi kigaragaza n'ibikorerwa muri ino nyubako.

Icyumba kinini, cyo kwa muganga. Kibitsemo ibikoresho byinshi bitandukanye, ibikoresho byiganjemo ibyifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo. Harimo udutanda ndetse n'utundi tuntu dutandukanye, twifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo.

Inyubako nziza yubatswe mu mabuye, ifite amadirishya y'ibirahure, inyubako iragerekeranye. Imbere yayo, hari indabyo nziza cyane, z'amabara atukura.

Itsinda ry'urubyiruko ririmo abakobwa ndetse n'abahungu bafite udukangara mu ntoki turimo ibintu berekeje kwa muganga, ku bitaro bya faisal bagiye gusura abarwayi.

Mu cyumba mberabyombi kirimo intebe zitandukanye, zagenewe kwicarwaho n'abantu baje kwitabira ibintu bitandukanye, amahugurwa cyangwa se amanama, imbere hari meza, umuntu ahagararaho igihe ari guhugura cyangwa ari gutanga inama ku baje bagana kino cyumba.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo intebe z'abarwayi bicaraho babasuzuma, harimo kandi n'intebe umuganga yicaraho igihe ari gusuzuma umurwayi, harimo kandi ahantu h'ubwiherero umurwayi ashobora kwiyitunganyiriza.

Mu cyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga, kugira ngo babashe kuvura, harimo igikoresho cyongera umwuka, umuganga ari kwita ku murwayi amwongerera umwuka.

Inyubako yo kwa muganga, Icyumba kirimo amamashini atandukanye yagenewe kwifashishwa n'abaganga mu gihe bari gusuzuma indwara zitandukanye abantu bafite.

Inyubako yo kwa muganga irimo indorerwamo z'amaso, hari kandi n'abantu baje bagana iki cyumba bicaramo, hari kandi n'imashini zisakaza amashusho.

Ku ivuriro ryubakishijwe amatafari ahiye, rifite ibaraza risakaye, abantu batandukanye barigannye, baje kwivuza indwara zitandukanye.

Inzu ifite ibirango bigaragaza ko ari inzu icururizwamo imiti. Iyi nzu kandi iriho amashusho atandukanye y'ubwoko bw'imiti irangwa muri iyo nzu y'imiti, harimo kandi n'ibindi birango biranga ibikorerwa muri iyi nzu.

Inzu y'ivuriro irasa neza rwose, isize amabara meza y'umweru, ni inzu ikeye igaragara nkaho ari nshya, ifite amarangi meza kandi n'agatako keza k'igiti gitoshye.

Inyubako y'ivuriro, yagenewe kwakira ababyeyi baje kubyara. Imbere y'ino nyubako ,hari abaganga b'abagore bagera muri bane, bambaye impuzankano yo kwa muganga ,ndetse n'udupfukamunwa,, barahagaze, bari kwifotoza.

Inyubako yo kwa muganga, irimo ibikoresho bitandukanye, inyoko, ikaba iciyemo ibyumba byakirwamo abarwayi, ni cyumba kikaba kirimo ibitanda, ndetse kandi muri iyo nyubako hagaragaramo utumeza ndetse n'utubati, byifashishwa n'abaganga.

Mu cyumba cyo kwa muganga, cyagenewe gusuzumirwamo aburwayi, harimo abaganga batandukanye b'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, umwe muri bo arashishikaye rwose, arimo arareba uburwayi buri mu kizami bafashe.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, irakeye cyane rwose, ukigeramo, ubona icyapa kigaragaza ndetse kikerekana aho ubufasha bumwe na bumwe bugenda butangirwa.

Ivuriro rifite amarangi meza ndetse n'amadirishya menshi, rifite umuryango munini ufunguye, imbere yaryo hari ikirango kiriho amabwiriza ndetse n'imyitwarire umurwayi agomba kugira igihe agannye iryo vuriro.

Ibitaro by'akarere ka Nyamugenge, bifite ubusitani bwiza kandi bunini, ikaba ari inyubako yubatse mu buryo bugezweho, ibi bitaro kandi byakira abarwayi batandukanye baturuka mu karere ka nNyarugenge ndetse no mu nkengero.

Inyubako z'ivuriro hari icyapa gishinze mu busitani, cyanditseho amagambo atandukanye aranga ibikorwa cyangwa ubufasha iri vuriro ritanga.

Mu nyubakore yo kwa muganga harimo abantu batandukanye abaganga ndetse n'abarwayi, umukecuru umwe yicaye mu kagare umuganga arimo aramwitaho amufatira ibipimo ngo basuzume ikibazo yaba afite.

Ivuriro rikuru rya Nyarugenge, rifite ibitaro byinshi ryubatse rigerekeranyije, iri vuriro ryagenewe kwakira abarwayi bo muri aka Karere ka Nyarugenge bafite uburwayi butandukanye.

Muganga ari kwitegereza cyane, arareba mu ifoto, ashakisha ngo arebe ko yabona uburwayi bwaba burimo, afite kandi imashini imbere ari kwandikamo, ibyo ari kugenda abona muri iriya foto.

Udukoresho dutandukanye twifashishwa mu buvuzi ngororangingo, harimo uturi mu macupa, harimo kandi n'utwifashishwa mu kuzirika ahababaye cyangwa hakomeretse.

Yari mu myitozo ngororangingo. Yambaye agakabutura gatoya kamugera hejuru y'amavi, ndetse n'isaha ku kuboko. Arunamye, intoki ze zifashe mu mavi arimo arakanda.

Ikinyabiziga gitwara indembe kwa muganga, kiri mu muhanda ukikijwe n'ibiti ndetse ufite igikuta gikoze mu mabuye, imodoka iri kugenda.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, ndetse n'ibyifashishwa n'abaganga mu gihe bari gusuzuma abantu niba bashobora kuba bakora siporo bafite ubuzima bwiza, hari kandi isahane iriho imboga ndetse n'imbuto umuntu wakoze siporo' agomba gufata.

Ibintu by'ingenzi byifashishwa cyane cyane mu gihe cyo kuvura ndetse no gufasha abantu bafite ibibazo by'ingingo cyangwa se bakoreshwa imyitozo ngororangingo, harimo imetero, hakabamo amacupa y'amazi, ndetse hakabamo imbuto zitandukanye.

Yambaye imyambaro ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri ni umugabo, afite balo mu ntoki y'ubururu yanditseho nimero enye, akaba ari balo yakinishwa mu mikino itandukanye.

Yakoze imyitozo ngororangingo n'uko avunika ukuguru, ahagana mu bujana, yihutira kujya kwa muganga, muganga amwicaza ku gatanda, amupfuka aho yakomeretse.

Yavunitse ndetse bigaragara ko yanababaye cyane, yagannye kwa muganga ushinzwe ibijyanye n'imyitozo ngororangingo ndetse no kuvura abavunitse mu gihe bakoraga imyitozo ngororangingo.

Akadege gashinzwe gutwara amaraso kayavana ku bitaro bimwe kayerekeza ku bindi aya maraso akaba yaragenewe guhabwa abarwayi bayakeneye, ni akadele kari ikirango cy'umuryango kuruwa ruje.

Umugore uri mu myitozo ngororangingo. Azamuye amaboko mu birere, asobekeranyije intoki, arimo arakora imyitozo ngororangingo.

Umugabo munini ubyibushye rwose ariko bigaragara ko anakomeye yakoze imyitozo ngororangingo, aricaye yiyambariye akambaro gaciye amaboko arimo aranywa amazi.

Imiti itandukanye yifashishwa n'abakora imyitozo ngororangingo, harimo ibiti bizirikisha igihe bazize imvune ndetse hakabamo n'iyo bifashisha basiga aho bari kubabara mu gihe k'imvune, hari kandi n'iyo bipfukisha mu igihe bacitse ibisebe.

Mu cyumba mberabyombi cyagenewe imikino itandukanye, harimo abantu birukanka, basa nk'aho bari mu marushanwa, ni abagabo bane bari kwiruka cyane rwose.

Ni muntu wicaye mu kagare gasunika abarwayi, yambaye imyenda y'ubururu, umuganga amufashe akaboko aragakomeje cyane, agiye kumwitaho.

Mu mwambaro wagenewe gukorerwamo imyitozo ngororangingo, umukobwa yashyize akamashini ku kuboko kabara igihe, afite icupa ry'amazi yo kunywa mu ntoki arimo arayanywa.

Umugabo w'ibigango bigaragara ko yakoze imyitozo ngororangingo nyinshi. N'ubu ngubu ari mu myitozo ngororangingo, apfukamishije ukuguru kumwe, ashinze ukundi. Ashishikariye cyane gukora imyitozo ngororangingo.

Mu kibuga kirimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororangingo zitandukanye, harimo umuntu kandi uri gukora imyitozo ngororangingo, wambaye ikabutura y'umukara n'umutuku ndetse n'agapira k'umutuku.

Ari mu myitozo ngororangingo afite agacupa karimo amazi, araramye hejuru asa nk'unaniwe, ari kunywa amazi kugira ngo yongere imbaraga abashe gukomeza gukora imyitozo ngororagingo.

Mu cyumba umugore arimo arakora imyitozo ngororangingo, ahinnye ukuguru kumwe arambuye ukundi. Aryamye ku gasambi kagenewe gukoreshwa ndetse no gukorerwaho imyitozo ngororangingo.

Mu cyumba cyo kwa muganga, umugabo ari kuyifashwamo n'umuganga w'inzobere mu bijyanye n'ubugororangingo, amwerekera amubwira uko agomba kwitwara mu gihe ari gukora imyitozo ngororangingo. Afite icyuma mu ntoki kireremereye ari kwifashisha akora iyo imyitozo.

Mu bitaro, ababyeyi bamwe bari ku gitanda abaganga batandukanye boherejwe muri ibi bitaro, bari kumwe na mugenzi wabo, agenda abasobanurira ibigendanye n'uburwayi bw'abantu bari muri iki cyumba.

Hari n'ibiganza bine, bigiye biriho imigozi iziritse mu buryo butandukanye, buri kiganza, kiriho nimero, nimero zitandukanye n'iziri ku kindi kiganza.

Ni icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda umurwayi aryamaho igihe muganga agiye kumusuzuma, harimo kandi amamashini menshi atandukanye, bigaragara ko ari icyumba kibagirwamo abarwayi.

Abantu ni urujya n'uruza ku kibuga cy'umupira w'amaboko basikete, ni urubyiruko abahungu ndetse n'abakobwa bitabiriye imyitozo ngororangingo.

Icyumba kirimo amamashini atandukanye, ndetse n'imiti itandukanye, yifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororangingo.

Umuntu wicaye ku cyuma kizitiye ahari amazi arimo arakora imyitozo ngororangingo, afashe mu kirenge n'ukuboko kundi kwifashe mu mayashya.

Ibikoresho by'ingenzi, byifashishwa cyane cyane mu gihe cya siporo, cyangwa mu gihe cy'impanuka. Ni ibikoresho byo kwa muganga, turabonamo imikasi, ndetse n'ibindi bitandukanye, byifashishwa mu gihe habayeho, impanuka zitandukanye.

Umukobwa wicaye asobekeranyije amaguru, arimo akora imyitozo ngororangingo, yicaye hasi, imbere hari agacupa karimo amazi ari kwifashisha igihe yumva amazi ari kumushira mu mubiri.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo. Hari kandi imbuto z'amoko atandukanye: imineke ndetse n'amaronji, pome, n'izindi... Hari kandi n'imboga z'amashu ndetse n'izo bita mururimi rw'amahanga kokombure.

Yambaye inkweto, ikabutura ndetse n'isaha, hejuru nta kintu yambaye, ari mu myitozo ngororangingo, yagoroye ukuguru kumwe ndetse n'ukuboko kumwe, ukundi kuguru akwishingikirijeho.

Ari kunywa amazi mu icupa ryabugenewe. Avuye gukora imyitozo ngororangingo, agiye gukaraba, afite igitambaro mu ijo cyo kwihanaguza amaze koga.

Mu cyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororangingo. Harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe cy'imyitozo ngororarangingo, imipira yo gukina ndetse n'ibindi. Harimo umuntu kandi uri gukora siporo, ubona ko akoresha imbaraga nyinshi.

Ikirango kiriho amashusho atandukanye agaragaza amabwiriza y'ukuntu abantu bagomba kwitwara mu gihe cy'icyorezo cya Kovide cumi n'ikenda. Ko abantu bagomba kuguma mu rugo, gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa ndetse bakirinda no gusuhuzanya, n'ibindi byinshi.

Ukuboko kumuntu kurambuye mu nkokora yashyizemo igitambaro arasa nkaho ari gukannda uwaba yavunitse.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororangingo, harimo udupfukantoki ndetse hakaba harimo uducupa dupfundikira turimo imiti, hari kandi n'ibipfuko byifashishwa igihe habonetse igikomere.

Umugabo wicaye ntebe nziza, amaze gukora siporo ari kubabara mu nkokora, afashe akantu k'agagatambaro, arimo arikanda kugira ngo yumve ko yakoroherwa ububabare ari kwiyumvamo.

Ibikoresho bya siporo, inkweto, agasambi kicarwaho bari gukora siporo n'utundi dukoresho dutandukanye twa siporo, hari kandi n'ikiganza cy'umuzungu kiriho imboga ndetse n'imbuto zitandukanye.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororangingo, yicaye ku gasombi, imbere ye, hari imashini iri kubimufashamo, imwereka amashusho y'ibyo agomba gukora, hari kandi n'utundi twuma, ku ruhande rwe yifashisha mu gukora imyitozo ngororangingo.

Ikiganza cy'umuntu gifite ikaramu n'urupapuro kiri kwandika, imbere kandi hari ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororangingo bitandukanye.

Umuntu wambaye agapira k'umweru, ntago bagaragaje ishusho ye yo mu maso, afite uburibwe mu nkokora, yashyizeho ishashi irimo amazi akonje, kugira ngo abashe kugabanya uburibwe.

Ku kiyaga akazuba karashe cyangwa se kari kurenga, hari umukobwa amanitse amaboko arimo aragerageza gukora imyitozo ngororangingo.

Imipira yo gukina yo mu bwoko butandukanye ari ikoreshwa mu gukina batera umupira w'amaguru ndetse n'ikoreshwa batera imipira y'intoki, hari kandi ingofero yabugenewe yambarwa kugira ngo ngo irinde umutwe mu gihe abakinnyi bari gukina.

Umuntu utunganya imiti gakondo, afite agasekuru ndetse n'umuhini, arimo aratunganya imiti, ku muhande rwe hari imiti agomba gusekura kugira ngo abashe kuyitunganya, igere ku bantu bayikeneye.

Umucyayicyayi n'ibindi byatsi bitandukanye bikoreshwa mu guteka icyayi, harimo kandi ubwoko bw'urubuto rwitwa umwembe, akaba ari byinshi muri ibi, ari imiti gakondo.

Imiti gakondo iri mu mashusho atandukanye, hari isa nk'ibijumba, hari n'indi ubona ko itunganyije iri mu mifuka.

Amacupa atandukanye arimo ibintu bitandukanye ariko bikozwe mu giti cyitwa igikakarubamba. Harimo imiti yifashishwa mu kumesa mu mutwe, harimo kandi imiti yifashishwa mu gukora isuku yo mu kanwa, hari amavuta yo kwisiga, hari ayo kwisiga ku munwa ndetse n'ahandi hose hatandukanye.

Mu gacupa gato k'ibara ry'umukara kanditseho amagambo, gateretse mu biganza by'umuntu, aka gacupa kakaba karimo umuti gakondo, uyu muti ukaba wifashishwa mu buvuzi butandukanye.

Ishusho yanditseho amagambo atandukanye ndetse ishushanyijeho n'ibintu bitandukanye bigaraga ko hari imico gakondo. Handitseho amagambo agira ati umurongo ngenderwaho wo kwiyandikisha mu buvuzi gakondo mu karere ka Afurika.

Amacupa n'ibikarito bifunze neza birimo imiti gakondo. Hari imiti ikozwe mu gikakarubamba ndetse n'indi miti irimo amavitamini atandukanye ikorwa n'uruganda rwa foreva.

mu imurikagurishwa ry'imiti ya gakondo, abantu baje kumurika imiti gakondo bakora, irafunze rwose neza mu macupa, abantu biteguye gusobanurira abaje babagana ibiri muri ayo macupa.

Umurima uhinzemo inanasi, ni umurima munini cyane, abantu batandukanye baje kuwusura, ndetse kandi hari n'imodoka ziparitse muri uwo murima.

Ikirango kigaragaza uruganda rwa foreva handitseho amagambo atandukanye kandi kikaba gishushanyijeho inyoni iri kuguruka ndetse n'icyatsi n'igikakarubamba.

Umuti gakondo ufasha kongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu, ukaba wujuje vitamine nyinshi ndetse n'imyunyu ngugu, uyu muti kandi nta sukari ibamo ugizwe n'imboga nyinshi.

Umurima munini uhinzemo igihingwa cy'icyayi, abantu bari mu isarura. Bamwe barunamye, barashishikaye rwose barimo barasarura, harimo n'umwe uhagaze, ubona ko aribwo akihagera.

Amacupa atandukanye arimo imiti itandukanye ivura ibintu bitandukanye, iyi miti ikaba ikorwa n'uruganda rwa foreva kandi imiti myinshi muri yo yiganjemo igiti cyitwa igikakarubamba.

Imiti itandukanye, iri mu dukoresho dutandukanye, iri mu ducupa, ipfundikiye neza, yakozwe n'uruganda rwa Forever, iyi miti kandi yifashishwa ku mubiri w'umuntu, ikozwe mu cyatsi cy'igikakarubamba, ari nacyo gishushanyije ku macupa ari hano.

Amacupa atandukanye arimo ibikorwa n'uruganda rwa infinite, harimo ibintu bitandukanye ibihumuza umubiri ndetse n'amavuta yo kwisiga ku mubiri.

Amacupa atandukanye arimo n'ibintu bitandukanye, amavuta yo kwisiga ndetse n'imiti yo mu kanwa, iyi ni imiti yiganjemo icyatsi cyitwa igikakarubamba.

Ishusho wenda kumera nk'inzovu, ariko si inzovu, irimo kandi ibyenda gusa n'imibare nk'imibare icyenda, rimwe rimwe, yanditseho amagambo Akagera Medecine.

Amashusho atandukanye ari mu tuzu, buri kazu karimo ifoto harimo ibisobanuro byiyo foto, turabonamo ibibabi bitandukanye ndetse n'imbuto zitandukanye, ibi byose bikakoreshwa mu miti gakondo.

Icupa ripfundikiye rifite amabara atandukanye, ririho ibirango by'uruganda ruzwi nka Forever, ryanditseho amagambo aranga ibiri mu icupa hakabaho kandi hariho n'ibishushanyo by'ibikoresho byifashishijwe mu gukora ibintu biri muri iri cupa.

Ururabo rurandaranda ku butaka rufite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'indabyo z'iroza mo imbere zikagira ibara ry'umuhondo.

Icyatsi kibisi giteye ahantu hari amabuye, utubuye duto duto dufite amabara atandukanye, umukara, ikigina, ndetse n'umweru.

Imiti gakondo, ipfunyitse mu buryo butandukanye, hari iri mu ducupa ndetse no mu mpapuro, iyi miti, ikaba igiye yanditseho uburyo ikoreshwa.

Umunsi nyafurika wagenewe kwita ku miti gakondo, hari ibibabi bitandukanye imiravumba ndetse n'ibindi yifashishijwe mu gufata ishusho.

Amacupa meza apfundikiye neza yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza akaba arimo imiti gakondo yiganjemo igikakarubamba.